Abanyeshuri biga neza bafashijwemo n'abatica kugira ngo bagire ubwenge buzima kandi buzira umuze, biga neza cyane kugirango ngo biteze imbere, bateze n'igihugu cyacu akamaro kugira aho bagenda hose babe bagaragaza ikinyabupfura, na disipuline n'impamyabumenyi bagaragaza mu gihugu.